Ababyeyi baricaye bari mu kirambi bafite n'impinja, bakaba bari kumwe n'abajyanama b'ubuzima, abajyanama b'ubuzima bari kubaha amata, bari kwita ku bana, bari kugerageza kubaha amata mu nkongoro, n'uri hirya yabo bose bari kugenda babaha amata mu nkongoro.

Abamama, abasore, abakobwa n'inkumi, bari imbere ya shitingi bicaye mu gacaca, bamwe bicaye ku ntebe, abandi barahagaze, imbere yaho hari akayira k'itaka karimo gasa n'akamanuka epfo, hirya y'aho y'ako gacaca harimo amazu.

Abana bari ku ivomero batandatu, bari kureba inyuma, bari munsi y'umusozi, bateretse amabido atandatu, bari kuvoma, umwe w'umukobwa uri imbere yambaye agapira, umuhungu uri iruhande rwiwe yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati y'igitenge; abandi bana bari iruhande rwabo bari kubareba.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe y'ishuri, imbere yabo hari amafunguro arimo kawunga n'ibishyiyimbo, baricaye, bategereje gufata iryo funguro, inyuma y'aho hari ikibaho cyanditseho amasomo bize, bicaye ku ntebe zabugenewe z'ishuri.

Umusore uri ku ivomero, ari kuvoma ari gukaraba mu biganza, inyuma y'iwe hari ikintu cyo kwicaraho, hirya y'iwe hari indobo y'ubururu, imbere y'iwe harimo indobo y'ubururu nini iruta iri iruhande rw'iwe. Inyuma y'iwe hari agashyamba kariho ibiti by'icyatsi, ahantu ari ni ahantu hatari agacaca, ni ahantu hari ibitaka harumutse.

Abana b'abanyeshuri batonze umurongo, bafite ibikombe mu ntoki bategereje igikoma, icyo gikoma kikaba kiri mu ndobo y'ubururu, kikaba kiri hejuru y'imeza y'ikibaho, izo ndobo zikaba ziri hejuru y'izo meza. Bakaba bose batonze umurongo bafite ibikombe mu ntoki.

Umunyeshuri uri munsi y'igiti kinini cy'ikivumu, ari kuri kandagira ukarabe, munsi yiyo kandagira ukarabe hariho agacupa karimo umuti wo koga, munsi y'uwo muti harimo akabase k'icyuma aho amazi amenekera.

Umwana w'umukobwa n'umuhungu, bari ku ivomero, bari kuvoma mu cyuma cyo kuvomeraho kugira ngo bavome, ni uko babanza guhaga ayo mazi, akaba ari mu ijerekani y'umuhondo, hirya yabo hari n'akandi kajekani umwana ari kuvomera, umwana akaba ari kureba, arishimye.

Ni abazungu bari hamwe bateranye bari kwiga ku buryo buri mwana yagira amahoro byifashijwe n'ikigo cya UNICEF, bari kwiga bari mu nama bari kwigira hamwe uburyo umwana agira amahoro iruhande rwabo hari televiziyo nini igaragaza amashusho y'ukuntu bakwita kuri abo bana, abandi barakurikiye imbere yaho hari amazi yo kunywa.

Abantu bicaye ari benshi hanze mu gacaca, bategereje kwinjira batonze umurongo mu nzu ihari, imbere y'iyo nzu hari igisharagati, hirya yaho hari ibiti byinshi by'inturusu, imbere rero y'iyo nturusu ni ho hari inzu, hirya y'iyo nzu hari imodoka nini ya minibisi.

Umujyanama w'ubuzima w'umugabo wicaye uri kwigisha umubyeyi uri kumwe n'umwana we, bicaye ku ntebe y'igiti, afite ibitabo ku ruhande rw'iwe, afite n'ikindi gitabo mu biganza umwana we mutoya ari gukurikirana amabwiriza ari kumuha, ari ku nzu y'amatafari ahiye.

Abana benshi bicaye hasi, bararambije, bambaye imipira y'ubururu, bari kumwe n'umuzungu n'abandi bagabo bicaye ku ntebe n'undi mama usa nk'aho ari mwarimu wabo wicaye hasi bakaba bari kubigisha, bicaye hasi bararambije, bari ku misambi.

Umwana ufite imbinika, ari kumwe n'umusore ufite indobo y'ubururu, n'iyo mbinika umwana afite ni ubururu, uwo mwana w'umusore afite isabune mu ntoki, agiye gukaraba, bari imbere y'inzu y'ibitaka bihumye mu gacaca, bari mu rugo iwabo.

Abaturage bari mu mbuga batonze umurongo ari benshi, umwe yicaye imbere ya muganga ari kumusuzuma undi muganga ari inyuma yiwe ari gutunganya ibikoresho byo gusuzuma abandi baturage bari inyuma yiwe, bakaba bari muri shitingi y'umweru, hirya yaho hari agakoresho ko kujugunyamo imyanda.

Umumama uri kumwe n'abana be batandatu bari ku ivomero, bafite amajerekani n'amabase bari kuvoma. Hirya y'aho hari inzu y'isoko, inyuma yaho hari inzu abaturage batuyemo, inyuma y'umumama hari igiti.

Umubyeyi n'abana be ku ivomero bari barishimye bafite robine ebyiri, hirya hari abana babiri, hino hari umwe, undi yicaye mu ibase, bari kumwoza barishimye bameze neza. Undi hirya ari kuvoma amazi.

Umwana usa nabi uri ku ivomero, wambaye ikabutura y'igitenge n'agapira gasa nabi, ari imbere y'aho amazi aturuka, iruhande rw'iwe hari umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'ubururu, afite ingata y'amakoma mu ntoki z'iwe.

Ikirangantego kiriho umumama n'umwana amuteruye gifite amabara y'ubururu cyanditseho UNICEF, kuri buri mwana wese aho aherereye, gifite ikirangantego kiriho amashami, kiri mu kazenguruko.

Umukobwa uri ku ivomero n'abana bane, akaba ari kubavomera mu tujerekani tw'abo bana, ahantu ari kuvoma hari amazi bisaba ko bakururisha ipompo, hirya yaho hakaba hari agacaca, hari ibiti byinshi by'inturusu.

Umumama uri imbere y'inzu yiwe, inzu ihomeshejwe sima, yambaye ingofero mu mutwe, ari imbere ya kandagira ukarabe ari gukaraba mu kajerekani k'umweru, iruhande rwiwe hari umufuniko w'akajekani k'umutuku.

Umwana w'umukobwa uri ku ivomero aricaye, amazi ari kuva aho amazi yabugenewe ari gukaraba, hirya yiwe hari ikijerekani cy'ubururu n'umuhondo n'ikindi cy'umuhondo gitoya, inyuma yiwe hari ibiti byijimye.

Abamama bane n'umusore umwe bicaye ku ntebe z'ikibaho, umumama umwe muri abo ngabo afite ikayi ari kubabwira bamuteze amatwi, inyuma y'aho bicaye hari intoki n'ibiti by'amashami y'icyatsi.

Abamama bane baricaye bari mu cyumba cyabugenewe, bariguhugurirwa ku buryo twakwita ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera. Bakaba bari guhugurwa n'umumama wambaye umupira w'umweru, bakaba bakurikiranye, imbere yaho hari mudasobwa ku meza bicayeho hariho uducupa tw'amazi bari kunywa.

Umumama ukuze wambaye ibitenge birimo amabara y'icyatsi, umweru, umuhondo, umukara witeze n'igitenge bisa mu mutwe, inyuma yiwe hari igicucucucu cy'umuntu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abantu benshi bari mu nzu yabugenewe yo gukorerwamo amahugurwa baricaye, bari kumva icyo buhagaze imbere ari kubabwira, imbere yabo hari amameza atatseho ibitambaro by'umweru n'ubururu, ariho bashyize ibikapu byabo, imbere yabo hari abayobozi bari kubabwira amahugurwa.

Umujyanama w'ubuzima akaba yicaranye n'umu mama uri kumwe n'umwana w'iwe, akaba yamufashe ibizami by'umuriro, akaba ari kumwereka umuriro w'umwana w'iwe aho ugeze, no muri mudasobwa afite mu kiganza, akaba ari iruhande rw'inzu y'ibiti.

Umuntu yicaye mu muhanda, ameze nk'umusazi, afite imiti ya gakondo, iruhande rw'iwe hari amacupa abiri, nyuma y'iwe hicaye abantu, inyuma y'iyo cupa hariho inkoni, no ku ruhande rw'iryo cupa hari ishashi irimo imiti. Nawe ubwiwe afite ishashi, ari yo yakuyemo iyo miti.

Umusaza wambaye ingofero akaba ari guseka ariko akaba ntamenenyo afite hejuru no hasi, yambaye ishati y'ubururu, n'umukenyero w'umuhondo. Inyuma ye hari undi mugabo wirabura utari kugaragara neza.

Umukobwa uri guseka, wirabura, ufite imisatsi yirabura, ufite intoki ndende, ari kwerekana amenyo yiwe, ari kwerekana uko amenyo yiwe yererana, uko amenyo y'iwe asa.

Umuforomokazi ari kumwe n'umurwayi, uwo muforomokazi afite ibyuma byabugenewe byo gupima amenyo, akaba ari kumwe n'umurwayi, uwo murwayi akaba aryamye ku gatanda bari kumusuzuma amenyo yiwe uko ahagaze, akaba afite ibyuma bitatu byo kumusuzuma, harimo umukasi n'ibindi bibiri afite ari kumusuzumisha.

Umuforomokazi n'umuforomo, bambaye ibikoresho byabugenewe, agapfukamunwa, bafite ibikoresho, bari gupima umurwayi, aryamye ku gatanda bari kumupima amenyo, akaba apfutse mu maso.

Umupapa n'umwana we bafite akadodo mu menyo, bambaye imipira isa, inyuma yaho hariho urugi, inyuma y'umwana hariho akabati, bari gupima amenyo yabo.

Umukobwa n'umuhungu bari guseka, umwe ni umuzungu undi ni umwirabura, bari guseka bashyize ibikumwe ku menyo, munsi yabo hari ubukarabiro bwo gukaraba intoki bisukura.

Umuganga uri kumwe n'umwana ari kumusuzuma amenyo ko nta kibazo afite, akaba afite ibikoresho byabuhariwe, ibumoso bwiwe afite akuma kazamuye umunwa w'umwana, iburyo bwiwe akaba afite igikoresho kiri gutunga mu menyo y'uwo mwana.

Umwana uri kumwe na muganga, ari kumuvura amenyo, afite ibyuma bibiri byabugenewe byo gukura amenyo, yambaye ibyifashishwa kugira ngo umuntu akure amenyo, yambaye itaburiya, yambaye ga, yambaye umwana yambaye ikanzu yabugenewe yo kuvurwa.

Abarwayi b'amenyo bari mu cyumba cyabugenewe bari gusuzumwa amenyo muganga wa mbere ari gusuzuma umwana amenyo imbere yiwe hari umuti w'amenyo uwa kabiri yambaye agapfukamunwa ariko gusuzuma umwana abandi barategereje bambaye imipira y'icyatsi bose.

Inyubako nini igeretse iri imbere y'umuhanda abanyamaguruye bagenderaho, kuri iyo nyubako hariho utundi byuma bihari, hakaba hariho amabara y'icyatsi, hariho ikirangantego kiriho amaboko yo muri afurika.

Umuntu uri gufasha umwana kumuhugura ibijyanye n'amenyo, inyuma yiwe hakaba hahagaze abantu bari kureba ibyo ari gusobanurira umwana ibijyanye n'ubwirinzi bw'amenyo, hirya yiwe hari umuzungu uri kwitegereza ibyo bari gukora, inyuma yiwe hari umumama na we uri kwitegereza ibyo bari gukora, ibyo bari gusobanurira uwo mwana.

Umwana ari kwa muganga, bari kumukura ikijigo, ari kumwe n'umuganga ufite ibikoresho by'amenyo byabugenewe, yambaye ishati ya karokaro, muganga yambaye ga z'ubururu.

Umuforomokazi n'umurwayi, aricaye mu kagare, umuforomokazi yambaye icyuma cyabugenewe mu gatuza cyo gupimiraho umurwayi, hirya y'aho hakaba hari undi muforomokazi wicaranye n'undi murwayi, bakaba bari kumutwara bamujyana mu cyumba cyabugenewe cy'abarwayi.

Umuforomokazi ari kumwe n'umurwayi ari kumukoresha ingororamubiri, yambaye ikarita mu ijosi, afite akantu ari gukoreshaho ingororamubiri. Mu ntoki umurwayi afite akandi gasa nak'umuganga yambaye isaha, yambaye n'imyenda umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara.

Aba mama batatu, umwe yambaye ingofero y'umweru, undi yambaye ingofero y'umweru n'ubururu irimo ubudodo, undi ari hagati yabo afite telefoni ngendanwa, ubabanzirije afite igipfuko gipfuka umuntu wakomeretse, cyangwa umuntu wavunitse, ari kureba muri telefone y'umu mama umwe.

Umupapa n'umumama baricaye bari gufata ifunguro ririmo imboga rwatsi, ku ruhande rwaho hari ikirahure kirimo amazi akaba afite icyo kurisha icyuma cyo gukatisha bari kurya.

Umukobwa n'umukecuru n'umusore bafite umugati ku isahani, bafite n'imboga rwatsi mu biganza, hirya yaho hari ibyo gusigisha ku mugati, bakaba bafite imboga rwatsi zabugenewe bose, umukecuru akaba ateze isahane, umukobwa we akaba ari we uri kubimuha.

Umusaza n'umuforomokazi baricaye, umuforomokazi akaba ari gushyiraho igikoresho uwo musaza ku kuboko, ari kumupima umuvuduko w'amaraso, baricaye mu ntebe, hirya y'intebe hariho itara, umuganga akaba yambaye ikindi gikoresho kipima umuvuduko mu ijosi.

Umusaza n'umukecuru bicaye muri salon, bari gusoma impapuro, bari muri salon irimo ameza n'intebe, umusaza afite terefone mu ntoki yambaye amarinete, bari gusoma...

Abasaza babiri bari mu bukwe, bambaye imyenda ya gakondo, umwe yambaye umushanana w'umukara, undi wambaye umushanana w'umweru n'ingofero, undi yambaye amarinete, bari ahantu, mu bukwe bizihiwe.

Abagabo babiri bari mu myitozo ngororamubiri bari munsi y'ahantu hari ibiti by'icyatsi, imbere yabo hariho ahantu ho guta imyanda, umwe muri bo uri ibumoso afite agacupa k'amazi bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye imipira y'umyeru n'amapantaro y'umukara.

Umu mama wicaye muri saro wambaye umwenda w'umuhondo, yambaye rinete, afite uducupa tubiri, kamwe agiye kukanywesha imiti, akandi k'imiti kari ku ruhande, yicaye muri saramanje.

Abayobozi baricaye imbere yaho hariho ikirangantego gishishikariza abantu guhagarika icyorezo cyari cyateye cyari ryateye, imbere yabo hicaye abaturage bakurikiye iyo nama bari kwandika bakurikiye uko bahagarika icyo cyorezo.

Abakobwa n'abamama n'abana bicaye bari gufata ibikoresho by'isuku byabugenewe ku bakobwa, iruhande rwabo hakaba hari umukobwa uri wambaye agapfukamunwa abandi bari hirya yabo bari gufotora, undi mumama usa nk'ukuze nawe yambaye ikanzu y'igitenge.

Abaganga bipfutse ibikoresho byabugenewe mu maso bambaye agapfukamunwa, bambaye n'imyenda yabugenewe na ga mu biganz,a ari kumwe n'umurwayi bambaye agapfukamunwa imbere yabo hari ibipapuro aho hakaba hari abarwayi benshi hariho n'ibikoresho by'isuku byabugenewe byo gukaraba mu ntoki.

Ikirangantego cy'u Rwanda kikaba kizengurutswe n'umugozi ukomeye, mo hagati hakaba harimo ingabo ebyiri, ku ruhande hakaba hariho isaka, ku rundi ruhande hakaba hariho irindi saka, hagati hakaba harimo igiseke, hakaba hazengurukijweho n'ibara ry'ubururu.

Umurwayi uri ku gatanda ko kwa muganga, iruhande rwiwe hari ibyuma bimwongerera umwuka, hari ibyuma bipima uko ubwonko bwe bukora, aryamye ku gatanda yiyorosha amashuka y'umweru n'akaringiti k'icyatsi.

Inyubako nini iriho amazu menshi, abaturage bake bakaba bari imbere y'umuryango bategereje, imbere y'iyo nyubako hakaba hari igiti kirekire, munsi y'icyo giti hariho agacaca kariho udutwatsi tw'icyatsi.

Abantu bari imbere y'inzu yo kubyarizamo, hariho abagabo bane n'umumama umwe, bari gutanga amahugurwa imbere y'iyo nzu hirya yaaho hari indi nzu, hari pasiparume, hari intebe bicaraho n'imeza imbere yabo.

Inzu iherereye muri Remera Rukoma, ikaba iri ahantu hari agacaca keza, hirya yaho hari ikigega, inyuma y'iyo nzu hari inzu nini nziza ya kadasiteri, hari ibigega bibiri, hari pasiparume, hari indabo z'umuhondo, ku ruhande rwaho hari icyuma kizimya umuriro.

Inzu nini yanditseho kafaha Rwanda, munsi y'iyo nzu hakaba hariho abantu bambaye amashati y'umweru bose, bakaba bambaye n'amapantaro y'umukara, umwe muri bo ni we wambaye ipantaro y'ikoboyi, bakaba bafite uduseke mu kiganza kirimo imiti, hirya yaho hariho icyumba cyo kuguriramo imiti.

Ibitaro biherereye Rwamagana. Imbere y'ibyo bitaro hari insina ihateye. Munsi hari abantu bari kuhifotoreza bambaye ibikoresho byabugenewe. Harimo abakobwa, harimo abahungu, harimo abirabura, harimo n'abazungu. Imbere y'ibyo bitaro, hari agacaca.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere kikaba kizengurutswe n'indabo nziza, hejuru hari umurasire, imbere y'iyo nyubako hari igiti kinini, ku ruhande rwawo hari agacaca, imbere y'ako gacaca hari ahantu heza ho gushyira amamodoka.

Mu marembo y'ibitaro bikuru bya gisirikare by'i Kanombe, uri kwinjira mu marembo uri kugana aho indembe zirwariye, hirya y'izo ndembe, hari igiti kirekire cy'icyatsi, aho icyo cyapa giherereye hazengurutswe n'indabyo z'umuhondo n'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitatu bitariho abarwayi, hakaba imbere y'aho hariho icyuma gisuzuma abarwayi, hakaba kuri ibyo bitanda hashasheho amashuka y'icyatsi, hakaba hariho no hejuru ubutambaro bw'ubururu.

Umurwayi uri kumwe n'umuganga aryamye ku gatanda kabugewe ko kwa muganga, ari kumusuzuma hirya yaho hari undi muganga uri gusuzuma undi murwayi mugenzi we, bakaba baryamye ku dutanda two kwa muganga twabugenewe mu cyumba cyabuhariwe k'isuzumiro ari kumutera urushinge.

Umusore ufite mudasobwa y'iwe imbere y'iwe ariko ntari kuyirebaho ari kureba ku yindi mudasobwa iri imbere y'iwe iri gusuzumirwaho ibihaha, ndetse afashe kuri mudasobwa iri imbere y'iwe, yambaye itaburiya y'ubururu, hirya y'iwe hari akantu k'ubururu ko guteraho ku ruhushya rwo kwemera ko ibyo ari gukora ari byo.

Icyumba cyabugenewe cyo kwa muganga, kikaba kiriho ibitanda bine, hakaba hariho aho gufatisha, hakaba hariho ibyo kuryama, ibyo kuryama bikaba biriho amabara y'icyatsi, hakaba hariho n'akameza ku ruhande ko gushyiraho ibikoresho by'umurwaza, inyuma y'icyo gitanda hariho akandi ko gushyiraho ibikoresho bya muganga.

Icyumba kinini, kirimo ibikoresho by'isuzumiro, hariho amameza, hariho aho barebera ibindi bikoresho, munsi yaho hariho intebe, hirya yaho n'aho hariho utubati twagenewe gushyiramo ibikoresho.

Icyumba cy'isuzumiro cyabugenewe cyo kwa muganga, hakaba hariho intebe y'umuganga iriho ibikoresho by'iwe, iruhande rwe hakaba hari izindi ntebe eshatu, hariho n'agatanda k'umurwayi aryamaho bari kumusuzuma, hejuru yiwe hariho ikindi gikoresho cyabugenewe cyo kwa muganga.

Umusore n'umukobwa bari muri sare yabugenewe, ahantu hari ibikoresho bijyanye n'ubuvuzi imbere yaho imfashamashusho bari kureberaho bari kurebera hamwe iby'ayo mashusho, hariho agatanda kabugenewe n'imbere yabo hari icyuma cyabugenewe cy'ubuvuzi.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi, imbere yaho hari umunyonzi uparitse n'umukobwa ufite indobo hasi, imbere muri icyo kigo hariho abarwayi benshi bategereje, haparitse n'igare ku ruhande rwaho.

Icyumba cy'umwana kirimo aho umwana arara akaba hariho n'agatebe iruhande rw'icyo gitanda cy'umwana, imbere yaho hakaba hari ububiko bw'imyenda by'umwana, hirya yaho akaba hariho aho gukarabira aho ukarabira, n'aho babika ibikoresho by'amasuku by'umwana.

Iki n'icyumba kirimo imeza, intebe, utubati, imbere y'imeza hakaba hari mudasobwa n'agakarito karimo ibikoresho by'isuku byabugenewe, iruhande rw'iyo meza hakaba hari akabati kariho imiti hejuru no hasi.

Inyubako nini yahariye abagore babyara, imbere yaho hakaba hari icyumba kinini cy'aho babyarira, bhakaba hari n'aho bafatira imiti y'ababyeyi babyaye, ukinjira hariho ikindi cyumba bategerezamo.

Ni Ikigo Nderabuzima cya Kinyinya, hejuru hari amabati y'ubururu, ku ruhande hari idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, hasi hashashe amabuye, hari n'agapasiparume, hariho n'indabo ku ruhande.

Abaforomokazi n'abaforomo bari mu nzu yabugenewe y'isuzumiro bari gusuzuma imiti yabugenewe. Imbere yabo hari ibyo kwihanagurisha abandi barikugenda. Abandi baricaye barikwiga ku byo barigusuzuma, barigupima. Iruhande rwabo hari uducupa, hari n'imiti y'ibyatsi yo gupima.

Icupa ririmo amazi rikaba rifashwe n'umuntu, iryo cupa rikaba riri mu kirere cy'ubururu n'umweru, mo imbere muri iryo cupa hakaba harimo amazi, uwo muntu urifashe afite inzara zisa kake, akaba afite ishusho y'umuzungu.

Ibikoresho bijyanye n'ubwirinzi harimo ubwirinzi bw'uruhu, harimo amavuta yo kwisiga, harimo imiti yo kwisiga, harimo imikasi, harimo utundi tuzengurutse turimo ibintu byo gufatishaho ujyanye ubijyanye ahantu, hariho n'andi mavuta yo mu ntoki yo kwisiga.

Umumama afite umwana mutoya yambaye ijire y'ubururu, afite icyuma ari kumutunga mu maso ari kumusuzuma ko arwaye amaso, akaba afite igikoresho cyabugenewe cyo gusuzuma indwara y'amaso, ku meza yiwe hakaba hari n'ikindi gikoresho cyabugenewe cyo gusuzuma.

Imodoka iri mu muhanda y'imbangukiragutabara, ikaba iri mu muhanda iri kugenda, ku ruhande rwaho hakaba hari ahantu hafite amabara y'umukara n'umweru, imbere y'iyo mbangukiragutabara, hariho ibiti ikaba iri muri kaburimbo mu muhanda ujya gukata.

Umuforomo n'umurwayi akaba ari kumupfuka ibisebe afite ku mavi, umuforomo akaba yafashe rya vi ashyiraho ibiganza byiwe bibiri, ku itako ry'uwo mukobwa hakaba hariho ikindi gipfuku, umuforomokazi akaba yicaye iruhande rw'uwo mukobwa, uwo mukobwa na we yicaye ku ntebe iriho amabara y'ubururu.

Abantu bane bari gukora ingororamubiri, bahagarikisha amaguru. Umwe ahagarikishije ukuguru kumwe, undi ahagaze ku kuguru kumwe, ukundi gufashe, ukuboko kumwe gufashe ku giti, atambitse ukuboko, undi aragaze, yunamye, undi afashe ku ntebe yifashishije intebe, atambitse ukuguru.

Abakobwa babiri bari mu myitozo bafite amacupa y'amazi mu biganza, umwe yambaye isaha, bambaye udukabutura duciye, bambaye hejuru amasengeri, hirya yabo hari umusozi munini uri kugaragara, bari hirya y'ibiti by'icyatsi.

Umuforomo, uri mucyumba cyabugenewe, imbere hari amacupa abiri, arimo imiti, inyuma ye hari akabati, karimo amabara y'icyatsi, yicaye ku ntebe z'umukara, afite urushinge mu ntoki, ari gusuzuma.

Amacupa maremare harimo n'aringaniye, harimo n'amagufiya, hakaba harimo igihwagari iruhande rwaho hakaba harimo ubuki bukoreshejwe n'uruganda bwa rwa gakondo, bukaba buri ahantu ku nzu iriho inzuzi.

Tangawizi, umwenya biri mu gikombe cyabugenewe, hejuru hakaba hari ikiyiko kigaragaza ibyavuye muri iyo miti yombi, akaba ari uruvange rw'imiti bakoze kugira ngo havemo umuti wa gakondo.

Uducupa tune turi ahantu hamwe, hari akantu ka kaki ahandi ni ah'icyatsi, hari uturabo hari n'igikakarubamba, ni imiti iva mu gikakarubamba.

Amavuta akorwa mu gikakarubamba, akaba ari amavuta akorwa mu miti ya gakondo n'amasabune, akaba ari mu ducupa twabugenewe two gushyiramo ayo mavuta, ikaba iri mu ducupa dutandukanye, tukaba turi ku mabuye, akaba inyuma yaho hariho igikakarubamba. Iyi akaba ari imiti ikorwa mu miti y'igikakarubamba.

Abantu babiri bafite umuti w'amenyo umwe ateze ari kumushyiriraho umuti w'amenyo uva mu gikakarubamba, ari kumushyiriraho kuri uwo muti kugira ngo agende awukoreshe ku menyo yiwe awugenewe.